Ni ibishushanyo by'imbuto z'ubwoko butandukanye, bikaba biri mu mabara asa umutuku , umuhondo ndetse n'ubururu, ibi bikaba byifashishwa n'abana bakiri batoya mu kwiga no gusobanukirwa ubwoko bw'imbuto.

Ni ibishushanyo by'ubwoko bugiye butandukanye bikaba biri mu mabara arimo ubururu, ibyatsi, ibi bishushanyo bikaba byifashishwa n'abana bakiri bato mu kwiga no kugira ubumenyi ku bikoresho bitandukanye byifashishwa mu buzima bwa buri munsi.

Ni igikapu kikaba kiriho igishushanyo cy'igisimba, iki gikapu kikaba cyifashishwa n'abana bakiri bato mu gutwaramo ibikoresho igihe bagiye kwiga, ibi bikaba bibafasha mu kubicungira umutekano.

Ni ishuri, rikaba rishushanyijeho ibikoresho byifashishwa mu bwubatsi harimo ingorofani, umwiko ndetse n'ibindi. Imbere mu muryango hakaba hahagaze abana b'abanyeshuri. Ibi bishushanyo bikaba bifasha abanyeshuri mu kwiga ndetse no kwihugura ku bumenyi baba bari kwiga.

Ni igikapu kikaba cyifashishwa n'abana bakiri bato mu gutwaramo ibikoresho by'ishuri bigiye bitandukanye, ibi bikaba bibafasha mu kubibirindira umutekano.

Ni ibyumba by'amashuri imbere yaho hakaba hari ikirango cy'Igihugu, ibi byumba bikaba byifashishwa n'abanyeshuri bakiri bato mu kwiga mu buryo bubanogeye bisanzuye.

Ni ibikoresho bitandukanye bikaba byifashishwa n'abanyeshuri mu guca imirongo, kwandika ndetse no gusiba, ibi bikaba bibafasha mu masomo agiye atandukanye harimo imibare ndetse n'andi.

Ni amashusho akaba arimo kwerekana umuryango ugizwe n'umubyeyi w'umugabo, umugore ndetse n'bana, aya mashusho akaba yifashishwa n'abana bakiri bato mu kwiga no gusobanukirwa umuryango.

Ni ibikoresho byifashishwa n'abanyeshuri mu kwiga amasomo atandukanye hakaba harimo ibibafasha kwandika guca imirongoko ndetse n'ibindi ibi bikaba bibafasha mu kugira uburezi buzira umuze.

Ni ibyumba by'amashuri imbere yaho hakaba hari ubusitani burimo inzira zikoze mu mabuye, ibi byumba by'amashuri bikaba byifashishwa n'abanyeshuri mu kwiga no gufata amasomo mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ni ibikoresho bitandukanye bikaba byifashishwa n'abanyeshuri mu kwiga amasomo atandukanye, bikaba bibafasha mu guca imironko, kwandika ndetse n'ibindi, ibi bikaba bifasha umunyeshuri mu kugira ubumenyi ku masomo yiga.

Ni abana b'abanyeshuri bakiri batoya iruhande rwabo hakaba hari abarimu babafasha mu kwiga hakaba hari ibyumba by'amashuri byifashishwa n'abana mu kwiga. Ibi bikaba bifasha abana bakiri bato mu kubona uburezi bunoze.

Ni amarembo magari atanga ikaze mu kigo cy'amashuri, ibi bikaba bifasha abanyeshuri mu kwiga ndetse no guhabwa amasomo abafasha mu kwiteza imbere mu buzima bwabo bwa buri munsi binyuze mu kwiga.

Ni ibitabo bikaba byifashishwa n'abanyeshuri biga mu mwaka wa kabiri w'amashuri abanza, bikaba bibafasha mu kwiga amasomo atandukanye arimo ubugenge ndetse n'ubutabire. Ibi bikaba bibafasha mu kumenya no gusobanukirwa byinshi ku byerekeranye n'ubutabire ndetse n'ibinyabuzi.

Ni umubyeyi akaba arimo gukina n'abana bato b'abanyeshuri, ibi bikaba bibafasha mu kwishima ndetse no kugira ubumenyi butandukanye bukomoka ku nyigisho bahabwa n'ababyeyi.

Ni ibikoresho by'ubwoko bugiye butandukanye. Hakaba harimo ibitabo, imashini, amakaramu ndetse n'ibindi byifashishwa n'abanyeshuri mu kwiga. Ibi bikaba bifasha abanyeshuri mu kugira ubumenyi bugiye butandukanye bubafasha mu kubaho mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ni ibikoresho bitandukanye harimo amarate, ndetse n'ibindi, ibi bikoresho bikaba byifashishwa n'abanyeshuri mu kwiga ndetse no gusobanukirwa amasomo biga umunsi ku munsi harimo imibare ndetse n'ayandi,

Ni igishushanyo cy'inyamaswa iki igishushanyo kikaba kiri mu barara risa n'umukara, kikaba cyifashishwa n'abana bakiri bato mu kwiga no kumenya ubwoko bw'ibinyabuzima, ibi bikaba bibafasha mu kumenya ubwenge no kugira ubumenyi bugiye butandukanye ku bintu runaka.

Ibikoresho bigiye bitandukanye birimo amakaramu ndetse n'ibyifashishwa mu guca imirongo, ibi bikaba bifasha abanyeshuri mu kwiga no gusobanukirwa amasomo atandukanye harimo imibare, ibi bikaba bibafasha mu kugira ubumenyi bubafasha mu kwiteza imbere mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ni ifoto ikaba iriho ibikoresho bigiye bitandukanye birimo inyundo, imikasi, amape y'imfunguzo ndetse n'ibindi. Ibi bikoresho bikaba byifashishwa n'abanyeshuri mu kwiga ndetse no gusaba amafaranga.

Ni urubaho, rukaba ruriho inyuguti z'ikinyarwanda. Zikaba zifasha abana bakiri bato mu kwiga no gusobanukirwa indimi zitandukanye zirimo: ikinyarwanda ndetse n'izindi z'amahanga.

Ni icyumba kigari cy'ishuri, kikaba kirimo ameza, ameza akikijwe n'intebe zirimo amabara y'umutuku ndetse n'ubururu, ibi bikaba byifashishwa n'abanyeshuri mu gihe cyo kwiga.

Ni icyumba kirimo ibikoresho by'ubwoko butandukanye biri mu mabara y'umutuku, ubururu, umuhondo, icyatsi ndetse n'umweru, ibi bikoresho bikaba byifashishwa n'abana bakiri bato mu kwiga ndetse no kwihugura ku masomo agiye atandukanye.

Ni igikoresho kikaba cyifashishwa mu kubika ibindi bikoresho bito bitoya byifashishwa n'abanyeshuri mu kwiga ndetse no gusobanukirwa amasomo agiye atandukanye harimo imibare ndetse n'andi.

Ni igikoresho kikaba gikoze mu cyuma igikoresho kikaba cyifashishwa n'abanyeshuri mu kubikamo ibikoresho bifashisha igihe bari kwiga umunsi ku wundi, ibi bikaba binabafasha mu kuba babicungira umutekano.

Ni ibyumba by'amashuri, imbere yaho hakaba hari imbuga, ibi byumba bikaba byifashishwa n'abana bakiri bato mu kwiga muburyo bwisanzuye, bikaba bibafasha mu guhabwa amasomo abafasha mu kugira ubwenge, mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ni amashusho ariho ibikoresho bigiye bitandukanye. ibi bikoresho bikaba byifashishwa n'abanyeshuri bakiri bato mu kwiga. Ibi bikaba bizafasha mu kwihugura ndetse no kugira ubumenyi butandukanye ku bikoresho biba bitandukanye.

Ni ibyumba by'amashuri iruhande rwabyo, hakaba hari ubusitani bumeze neza, ibi byumba by'amashuri bikaba byifashishwa n'abana bakiri bato mu kwiga, bikaba bibafasha mu kubona ahantu hisanzuye bafatira amasomo abafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ni abanyeshuri, bakaba bahagaze ku mirongo igiye iteganye, bakaba barimo guhabwa amabwiriza n'undi munyeshuri, ibi bikaba bibafasha mu kugira ubumenyi bugiye butandukanye ku masomo biga.

Ni abanyeshuri, bicaye, imbere yabo hakaba hahagaze abarezi ndetse n'abashinzwe umutekano, barimo abapolisi, bakaba barimo kuganirizwa ku masomo, abafasha mu kugira uburere bumeze neza.

Ni ibyumba by'amashuri, imbere yabyo hakaba hari ikirango cy'Igihugu, ibi byumba by'amashuri bikaba byifashishwa n'abanyeshuri mu kwiga, ibi bikaba bibafasha mu kuba babona amasomo abafasha mu kubaho ubuzima bwabo bwa buri munsi.

Ni abanyeshuri bambaye impuzankano y'ishuri iri mu mabara y'umweru na kaki. Bakaba bahagaze mu cyumba, bakaba barimo guhabwa amasomo abafasha mu kubaho mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ibi bikaba bibazamurira ubushobozi bwo kumenya no gusobanukirwa ibyo baba bize.

Ni umunyeshuri akaba ahagaze imbere y'abarezi, iruhande rwabo hakaba hari ibyumba byifashishwa n'abanyeshuri mu kwiga, ibi bikaba bifasha umunyeshuri mu kubona uburezi bunoze ndetse mu buryo bwiza.

Ni abanyeshuri bakaba bicaye mu cyumba kirimo intebe zifashishwa n'abanyeshuri igihe bari kwiga, bakaba barimo guhabwa amasomo atandukanye abafasha mu kwiteza imbere mu buzima bwabo bwa buri munsi, ibi bikaba bibongerera ubumenyi bubafasha mu kwiteza imbere.

Ni urubyiruko rw'abanyeshuri , bakaba bambaye impuzankano z'ishuri ziri mu mabara asa; ubururu, umweru, umuhondo, bakaba bahagaze imbere y'ibyumba by'amashuri, ibi bikaba bibafasha mu kwiga ndetse no kugira ubumenyi.

Ni abanyeshuri bambaye impuzakano y'ishuri iri mu mabara y'umweru n'umukara bakaba bitaye mu cyumba kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga bibafasha mu kwiga umunsi ku munsi, ibi bikaba bibafasha mu gufata amasomo baba biga mu buryo buboroheye.

Ni urubyiruko rw'abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano iri mu bwoko bw'ubururu ndetse nakaki, inyuma yaho hakaba hari abandi bambaye imyenda isa n'umutuku bakaba bari mu gikorwa cyo kwiga bihugura ubumenyi butandukanye ku masomo biga.

Ni abakozi, bicaye mu cyumba kigali cy'ishuri, hakaba harimo abambaye imyenda yabugenewe iri mu mabara y'icyatsi, umutuku. Imbere yabo hakaba hari ameza ateretseho amazi, bakaba barimo kuganira ku buryo bwo kubaka amashuri

Ni icyumba cy'ishuri kikaba kirimo abanyeshuri bambaye impuzankano iri mu ibara ry'umweru n'umukara, inyuma yabo hakaba hari ikibaho cyifashishwa n'abanyeshuri mu gihe cyo kwiga, ibi bikaba bibafasha mu buryo bwo kwiga no gufata amasomo baba bagenewe umunsi ku munsi.

Ni urubyiruko rw'abana b'abanyeshuri, bakaba bambaye impuzankano y'ishuri iri mu mabara y'umuhondo, umukara ndetse n'icyatsi, bakaba bahagaze mu kibuga kifashishwa n'abanyeshuri igihe bari kwidagadura, ibi bikaba bibafasha mu kwiga ndetse no gufata amasomo baba barimo kwiga umunsi ku munsi.

Ni urubyiruko rw'abana b'abanyeshuri bakaba bambaye impunkano y'ishuri iri mu bara ry'icyatsi, bakaba bafashe igikoresho gakondo, ibi bikaba bibafasha mu kwiga umuco n'amateka yaranze u Rwanda.

Ni abakozi bambaye imyenda yabugenewe iri mu bara n'icyatsi bakaba bahagaze mu cyumba cy'ishuri bakaba barimo kuganira ku buryo bwo kubaka ibyumba bihagije byafasha abanyeshuri mu kwiga bisanzuye.

Ni urubyiruko rw'abana b'abakobwa b'abanyeshuri. Bakaba bambaye impuzankano y'ishuri, iri mu mabara y'ubururu ndetse na kaki. Imbere yabo hakaba hari n'umwarimu ufite indangururamujwi. Bakaba bari mu gikorwa cyo kuririmba, bihugura ku bumenyi bw'ishuri.

Ni umugabo akaba afashe indangururamajwi n'urupapuro, inyuma ye hakaba hari urubyiruko rw'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye ndetse na za kaminuza, hakaba harimo abambaye imyenda isa n'umutuku, bakaba barimo kuganira ndetse baniga amasomo agiye atandukanye.

Ni urubyiruko rw'abanyeshuri bakaba bambaye impuzankano y'ishuri iri mu ibara ry'umuhondo ndetse na kaki, bakaba barimo guhabwa amasomo abafasha mu kubaho mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ni abanyeshuri bambaye impuzankano y'ishuri bakaba bafashe indangamanota, ibi bikaba bibafasha mu kwishimira umusaruro baba bakuye mu mashuri.

Ibyumba by'amashuri byubatswe mu buryo bwa kijyambere, bifasha abanyeshuri biga mu mashuri makuru ndetse na za kaminuza kubona aho bigira bafata ubumenyi bubafasha mu kwiteza imbere mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ni icyumbakigari cy'ishuri, hakaba harimo intebe ziri mu mabara y'ubururu, ibi bikaba byifashishwa n'abanyeshuri mu gihe cyo kwiga kandi bikaborohereza mu kuba bafata amasomo yabo umunsi ku munsi.

Ni urupapuro, rukaba rwandikishijeho amagambo mu bara risa n'icyatsi, hakaba hari ahandi handitse amagambo mu ibara risa n'umutuku, ibi bikaba bifasha umunyeshuri mu kwihugura ndetse no kugira ubumenyi buhagije ku masomo yiga ku munsi.

Kwiga mu mashuri makuru ndetse na za kaminuza ni uburyo bwiza bwo kuzamura ubumenyi bufasha urubyiruko mu kwiteza imbere mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ibi bikaba bibaha ubushobozi bwo guhangana ku isoko ry'umurimo.

Ni icyumba kigari cy'ishuri. Kikaba kirimo abanyeshuri, imbere yabo hakaba hari abarezi babo, bakaba barimo gufata amasomo abafasha mu kubaho kwabo kwa buri munsi.

Ni icyumba kigari, kikaba kirimo urubyiruko rw'abanyeshuri biga mu mashuri makuru ndetse na za kaminuza, ibi byumba bikababafasha mu kubona aho bigira ndetse bafatira, amasomo abafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ni inyubako ndende iyi nyubako ikaba yifashishwa n'urubyiruko rw'abanyeshuri biga mu mashuri makuru ndetse na za kaminuza, ibi bikaba bibafasha mu kubona aho bigira hameze neza.

Ni abanyeshuri bakaba bambaye imyenda isa n'umweru, imbere yabo hakaba hari ameza ateretseho ibintu bigiye bitandukanye harimo amacupa ndetse n'impapuro bari kwifashishwa mu kwiga, ibi bikaba bibafasha mu kuba babona uburezi bunoze.